Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho hakurya hari inzu z'ubucuruzi ndetse hakuno hakaba haparitse imodoka nziza igezweho ariko itagaragara neza yose.

Umuntu ufashe amoko y'imbuto ari mu ibara ry'umukara mu kiganza cye, hariho make ari kugenda aca hagati y'intoki ameneka hasi, iyi mbuto rero ni ingenzi cyane, ubuzima bw'abahinzi.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, iba iri mu tubido tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse duteyeho ibyapa bigaragaza uwo muti uwo ari wo.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi, kakaba kari mu ibara ry'umweru ndetse kariho icyapa cy'umutuku, kakaba kanditseho ko kavamo umuti w'inyanya wica udukoko.

Abantu benshi cyane bakaba bari gutindura ifumbire, aho bari bararirunze, bigaragara ko ari igihe cy'itera kigeze, none bakaba bari kurifata barijyana mu mirima bagiye kurikoreshamo batera ibigori.

Akabati kariho utubido twinshi tugiye dutandukanye, utu tubido tukaba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo umuntu ubikora amererwe neza.

Iyo umuhinzi w'ibirayi yabisaruye akamararo kubigurisha, umuntu w'umucuruzi wabiguze, abihuriza hamwe mu cyumba cy'ubuhumekero, akaba ariho abirambika, akazajya abicuruza gake gake kugira ngo bitangirika.

Intabire iri ahantu mu murima wasaruwemo ibigori maze bakaza kuhahinga baturamo n'ifumbire kugira ngo bitegure igihembwe k'ihinga gikurikiyeho cya bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Mu rwego rwo kurushaho kunoza ndetse no guteza imbere ubuhinzi, ni byiza ko ahantu tugiye guhinga, tubanza kuhamena amazi kugira ngo horohe. Uyu mukobwa rero, ari kugenda amena amazi ndetse abari inyuma ye bakaza bahinga, horoshye.

Umugabo uri mu murima we, aho ari kugenda akusanya ifumbire, areba ko ryanoze kugira ngo abe yajya kuryifashisha ari gutera, dore ko igihembwe cyihinga cyegereje. Ni byiza cyane gutera ukoresheje ifumbire kuko bituma ubona umusaruro.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara ndetse na ga ziri mu mabara y'umutuku, akaba ahetse ipombo y'umukara ifite imifumi y'umutuku. Ari kuvomerera ibigori bye yahinze ahantu none izuba rikaba ryavuye.

Ibase irimo ibirayi bigaragara ko ibi birayi ari ibyasaruwe none bikaba biri ku isoko biri kugurishwa, nawe niba ubishaka wanyarukira ku iduka rikwegereye wabihasanga ku giciro cyiza.

Abagabo bagera muri bane bahuriye mu murima, bakaba bari kugenda bawuhinga kugira ngo bawutunganye neza maze bazabashe kuwutera mu gihembwe cy'ihinga gitaha maze uzere neza cyane.

Umugabo wambaye ingofero itukura, agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi na bote, ari kumwe n'umwana we uhetse ipombo, aho bari kugenda batera umuti ibigori kugira ngo babashe kwirukana nkongwa, maze bazabone umusaruro uhagije.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu akaba asutamye ahantu hasutse ifumbire, ari gukozamo intoki biragaragara ko ari gusuzuma ngo arebe ko iryo fumbire ari iry'umwimerere.

Umugabo uri kumwe n'umwana we, aho bari mu murima w'ibigori, bari kugenda babyuhira ndetse banabitera umuti kugira ngo nkongwa zirimo zipfe, bityo bazabashe kubona umusaruro ufatika.

Hari uburyo bwinshi ifumbire ikorwamo, hari ukuntu usuka imyanda mu kingarani hanyuma ukagenda worosaho agafumbire mu gihe gitoya ugasanga bya byatsi byose wasutse mu kingarane byose byabaye ifumbire.

Mu buhunikiro harimo udufuka twinshi tugiye dutandukanye, turimo imbuto z'ibigori, bazifashisha bari gutera mu gihembwe cy'ihinga kigiye kuza mu kwezi kwa cyenda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bari kugenda mu murima w'ibigori bawubagara ndetse abandi bagenda bashyiraho ifumbire, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije.

Umugore ugeze mu kigero cy'izabukuru, aho ari mu murima w'ikawa ari kugenda ayishyiriraho ifumbire kugira ngo ikawa irusheho guhisha ndetse izanamuteze imbere abone amafaranga.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, kirushanyijeho uducupa turi mu mabara y'umweru, dufite imipfundikizo y'umutuku ndetse tukaba turimo imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa, hakaba harimo icyumba gicururizwamo imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, aho ubikeneye wanyarukira hano.

Uruhago rurimo ubwoko bw'ibihingwa bisa umweru ukaba utapfa kumenya ko iri ingiri ari ifumbire ryifashishwa mu kubagara imyaka rizwi nka urée. Iri ngiri iyo urishyize ku myaka irabyibuha cyane.

Umugore wicaye mu murima, aho ari kugenda atera voka, ayizitirira kugira ngo itazicwa n'izuba cyangwa hagire ikintu runaka kiyihungabanya. Ari mu rwego rwo kugira ngo ateze imbere ubuhinzi bw'imbuto.

Abantu bagera muri bane bateraniye hamwe mu murima w'ibigori, aho bamwe bari kubibagara, uyu mugore wambaye umupira w'umukara akaba ari kugenda ashyiraho ifumbire bifashisha babibagara, izwi nka lre.

Ahantu hasutse ifumbire ryinshi cyane, bigaragara ko ryakomotse ku matungo ari yo nka, iri ng'iri rero ni ingirakamaro cyane kuko rifasha umuhinzi gutera intambwe, akiteza imbere kuko ritanga umusaruro.

Umurima uhinze neza mu buryo bugezweho, aho imyaka iteyemo mu buryo bw'amaterasi cyangwa bw'imironko aho igiye iringaniye, hakaba hateyemo ibimera bizwi nk'ingano.

Ahantu mu murima, aho hateyemo insina zitoshye ndetse hakaba harimo ipironi ritwara umuriro w'amashanyarazi hagati y'izo nsina, ni byiza cyane ko tugomba kugira urutoki kugira ngo duhashye imirire mibi.

Mu turere nka Nyaruguru, Musanze, Ngororero na Nyabihu bakunze guhinga ibirayi. Iyo ibyo birayi byeze babipakira imodoka bakabigemura mu turere tutabihinga nka Huye no mu Mujyi wa kigali.

Uturere turi mu ntara y'ububurengerazuba, ndetse na tumwe two mu majyepfo ahantu hakonja bakunda guhinga ibimera bizwi nk'icyayi. Ibi rero ni ingirakamaro cyane kuko ni umwe mu mutungo kamere u Rwanda rwifitiye.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, ariko ukaba wari usaruwemo ibigori; ndetse ibitiritiri by'ibigori bikaba bikiri muri uwo murima.

Amashashi y'icyatsi agiye apanzemo ingemwe z'ikawa, izi ngemye rero, umuhinzi ugiye guhinga ikawa bazimuhera ku buntu, hanyuma akajya kuyitera mu murima we, yazere bakazajya bayimugurira.

Umusore ukiri muto wagiye mu murima we yahinzemo ibinyomoro, akaba ari kugenda akora kuri buri kinyomoro, asuzuma ko bikiri bizima, nta kibazo byagize kugira ngo nasanga byarwaye azabitere umuti.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bikunda guteza imbere ba nyirabyo kuko bidasaba imbaraga nyinshi ahubwo bitanga umusaruro mwinshi, dore ko igiti cy'ikawa gisazira imyaka mirongo itatu.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'ibimera bikunze guhingwa ahantu mu cyaro bizwi nk'ikawa, bakunze kubitakaho indabyo z'umweru kugira ngo bizabe birabagirana abantu nibabibona babikunde.

Ubuhinzi bw'insina ni ubuhinzi bugezweho cyane, aho umuntu atera insina, maze mu gihe cy'umwaka umwe zikaba zireze, zigatangira kumuha umusaruro, maze na we agatangira gukirigita ifaranga agasezera ubukene.

Ibihingwa by'ibirayi, ni bimwe mu bihingwa bikunze kwera cyane mu Turere tw'Iburengerazuba nka Nyabihu, Ngororero, mu Majyaruguru nka Musanze ndetse no mu Majyepfo nko muri Nyaruguru.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutezwa imbere cyane, aho umuntu asigaye afata umurima we munini akawuteramo insina gusa akazitaho akazisasira hanyuma na zo zajya kwera zikamuha umusaruro ufatika.

Ipapayi iriho imbuto nyinshi cyane, muri zo hakaba harimo izigera muri zirindwi zahishije bigaragara ko zeze. Izi mbuto rero ni ingenzi cyane kuko iyo umuntu aziriye agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu masambu hakunze kuba harimo ibiti birebire cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse bigatanga n'igicucucucu ku bindi bihingwa bihinze munsi yabyo ndetse n'abantu n'inyamaswa bakahugama izuba.

Hari amoko agiye atandukanye y'imboga zikunze guhingwa ahantu mu cyaro ku buryo umuntu w'umunyamugi ahageze atabasha kumenya ubwoko bw'izo mboga. Twareba urugero nk'uru nguru ntabwo wapfa kumenya urwo ari rwo.

Umuhanda mugari cyane, aho ari umuhanda w'igitaka, bigaragara ko atari umuhanda nyabagendwa, kuko bigaragara ko imvura iramutse yaguye haba harimo ibyondo byinshi cyane, ku buryo nta kinyabiziga cyanyuramo.

Amatunda ni bimwe mu bihingwa by'imbuto bikunze kwitabwaho cyane, iyo igihe cyo kubitera kigeze babipakira mu mifuka y'icyatsi bakagenda babijyana mu duce tugiye dutandukanye, hanyuma ababikeneye bakaza kubifata bakajya gutera.

Umurima uteyemo ibimera byinshi bigiye bitandukanye, urugero rw'ibyo bimera twavuga nk'ibishyimbo. Iyo ibishyimbo bikiri bitoya ubutaka buba bukigaragara ukaba utamenya ko ari ibishyimbo ukagira ngo ni ibyatsi byarumbye.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu wahinze inyanya iyo zitangiye gutukura aba yatangiye kubara amafaranga, kuko zitanga umusaruro ufatika kandi unashimishije.

Ubuhinzi bw'imyumbati bugenda burushaho gutera imbere, aho umuntu asigaye ahinga ubunyobwa, soya, ibishyimbo, ibigori maze akibuka guhungikamo n'imyumbati kugira ngo nabisarura azasigare ararya imyumbati.

Umuntu uri gukora mu muceri kugira ngo arebe ko umuceri umeze neza cyane. Akaba yamanuyemo akaboko ke, azamuraho muke ngo abanze arebe ko umeze neza kugira ngo abone kuwugura.

Ubuhinzi bw'ibisheke bukomeje gutera imbere cyane, kuko umuntu wahinze ibisheke, abona inyungu mu buryo bwose bufatika, kuko ibisheke biraribwa kandi n'inganda zirabirangura zikajya kubitunganyamo isukari.

Umuhanda w'igisibanzira uri gutambika ahantu mu gisambu, aho hepfo hateye amoko agiye atandukanye y'imyumbati ndetse ruguru hakaba hateye ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Imbuto turya, ziba zikomoka ku biti byinshi bigiye bitandukanye. Hari zimwe zizwi nk'indimu cyangwa amaronji, zikomoka kuri ubu bwoko bw'igiti, aho iyo gikuze kizana izo mbuto.

Umuceri ukunda guhingwa ahantu mu gishanga. Iyo umaze kuzana uruyange ndetse umaze kuzana n'amata, batangira kuwurinda kugira ngo hatagira inyoni iza kuwona, maze ikaba yabahombya.

Iyo imyaka yeze barayikusanya hanyuma bakayisuka ahantu hamwe mu nzu yabugenewe, noneho nyirayo akazajya agenda ayisanza akoresheje umukoropesho kugira ngo iticwa n'ubushyuhe.

Agakarito karimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, kakaba kari mu mabara y'umweru n'umukara ndetse kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ubworozi bw'inkoko za saso, ni ubworozi bumaze gutera imbere cyane kuko iyo uziguze ukazitaho, ukazorora mu gihe kingana n'amezi umunani, ziba zimaze kwikuba inshuro zigera muri eshanu.

Agacupa kari mu mabara y'umweru, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ariko kandi ari mu rurimi rw'Icyongereza, hakaba hariho agakandara gatambitseho kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu, kakaba karimo umuti.

Ubworozi bw'inkwavu na bwo bwateye imbere, aho umuntu asigaye yorora inkwavu akagenda azigaburira gake gake, hanyuma rwabyara ibyana byinshi akabona umusaruro, akaba yabigurisha akiteza imbere.

Umufuka wa kiro jana urimo indagara cyangwag se injanga, aho ziri ku isoko. Ikiro kimwe kigura ibihumbi bine naho inusu igura ibihumbi bibiri, naho irobo igura igihumbi. Niba ushaka wagura nawe rwose ntabwo uhejwe.

Inkwavu zigera muri esheshatu zikaba zihuriye hamwe ku gakoko ziri kurya ibyo kurya baziteguriye, abantu benshi ntibazi ko inkwavu zirya ibyo kurya bazi ko zirya ubwatsi gusa.

Umwana ukiri mutoya aho afite ikiyiko mu ntoki ndetse n'igikombe, iruhande rwe hari inkoko iri mu ibara ry'umweru, aho iri kumureba. Uwo mwana na we yambaye agashati k'umweru, ari gukura igikoma mu gikombe.

Ku makusanyirizo y'amata, haba hari ibicuba by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bashyiramo amata, hari ibicuba by'ibyuma ndetse n'ibindi bicuba bigiye bitandukanye, ibi rero bashyiramo amata bakabasha kuyagemura.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere, aho hasigaye haraje imashini zifashishwa mu kurarira amagi, maze zikayaturaga akavamo imishwi myiza cyane, maze umuntu uyoroye agatera imbere.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba kariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, gishushanyijeho inka y'umweru ndetse n'umukara, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko harimo umuti uvura inka.

Umuntu ufashe agacupa gasa umweru, kakaba kariho icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse hakaba hariho n'impeta isa umutuku, kakaba kavamo umuti wifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi.

Agakarito kari mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu ndetse hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka. Iruhande rwako hari icupa rishushanyijeho icyo kirango, ndetse ririmo umuti wifashishwa mu buhinzi.

Agacupa kari mu mabara y'umweru, kakaba gafite umukandara w'ubururu ndetse n'umuhondo, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bigaragara ko karimo umuti wifashishwa mu buhinzi.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'icyuma, kakaba gashushanyijeho akanyamaswa k'umukara ndetse kanditseho n'amagambo mu mabara y'umukara ndetse mu rurimi rw'Icyongereza, karimo umuti wifashishwa mu kuvura amatungo.

Umurima urimo abakozi bagiye batandukanye, harimo umugabo n'umugore bari guhinga, bigaragara ko ari ahasaruwe ibigori, ruguru hari imyumbati yarumbye ariko bigaragara ko nibayibagarira yabasha kwera.

Umugabo uri mu murima akaba ari kugenda yuhira ibihingwa bye yateye akoresheje umupira, ari kugenda yuhira dodo ze kugira ngo zitaka kwicwa n'izuba maze bikaba byamuhombya bikamusubiza ku isuka.

Abantu bagera muri bane, harimo umugabo umwe ndetse n'abagore bagera muri batatu, bambaye imyambaro y'impuzankano, amapantaro y'umukara, imipira y'icyatsi n'umweru, bari kubaka akarima k'igikoni ka kizungu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bari mu isambu, aho bari kugenda bahinga, bitegura igihembwe cy'ihinga kizaza mu minsi iri imbere mu kwezi kwa cyenda.

Umurima ukimara guhingwa, hakaba harimo umugabo uhagazemo, wambaye agapira k'umutuku, bote z'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Hirya ye, hari ibindi bimera byiza cyane kandi bitoshye.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, bote ndetse n'ipantaro ijya gusa n'ivu, ari guhinga mu murima we kugira ngo arebe ko igihembwe k'ihinga gitaha kitamucika agaterera ku gihe.

Ubuhinzi bw'insina nabwo bukomeje gutera imbere cyane, aho nyirazo agenda akazihinga, hanyuma akazajya azitaho akazuhira, maze zakwera zikamuha umusaruro nk'uko abyifuza.

Umukobwa ukenyeye igitenge wambaye agapira akaba ari ahantu mu muhanda, hirya ye hari abandi benshi bafite amasuka bigaragara ko bari kugenda baharura umuhanda bawukoramo umuganda.

Abantu benshi cyane batandukanye biganjemo abajyanama b'ubuhinzi, bagiye gusura umuturage none bari kumwereka uburyo yakora ki yakora akarima ke k'igikoni, maze kakaba kameze neza cyane.

Umurima wamaze gusarurwamo ibigori none bakaba barawuhinze kugira ngo bazabashemo guhinga igihembwe cy'ihinga gikurikiyeho ntibazakererwe ahubwo bazatere imbere nk'abandi.

Abantu benshi cyane batandukanye, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bateraniye hamwe mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo basukure umuhanda. Umuganda ni gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda.

Abantu b'igitsina gore bagera muri bane, aho bari mu murima bari kugenda basanze ubutaka, bigaragara ko bari guhinga. Bari guhinga aho bari kwitegura igihembwe cy'ihinga gikurikiyeho.

Ahantu mu cyaro ku gasozi, aho hari ibiti bigiya bitandukanye byera imbuto ndetse hakaba hahinze n'imyumbati, hari igiti cya avoka ndetse n'igiti cy'umwembe, aho bitanga umusaruro.

Abahinzi benshi bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe mu murima, aho bari kugenda bahinga kubera ko igihembwe cy'ihinga kiri hafi, kugira ngo bazabashe guterera ku gihe ntibakererwe.

Ahantu mu isambu aho hahinze hakaba hakiri hashyashya ndetse hagati y'umusitari n'undi hakaba hateyemo ubwatsi, ubu bwatsi ni ingirakamaro kuko babwahirira amatungo maze akamererwa neza.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibyo kurya, aha ngaha turahabona ibyo kurya bizwi nk'ibijumba, aho igihe ubikenereye cyose wanyarukira mu isoko ukabigura udahenzwe.

Abagabo babiri bari kugenda bapakira imifuka ya kiro jana neza ku muronko ahantu mu bubiko aho bahunika imyaka, harimo imifuka myinshi cyane bigaragara ko harimo amatoni arenga ijana na makumyabiri n'atanu.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiribwa bikomoka ku buhinzi, byose wakenera. Haba harimo: amasaka, amamera, uburo, ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi.

Umusaza ukuze aho afite amahundo y'ibigori agera muri atanu, akaba ari kubyishimira yerekana ko yabonye umusaruro mwiza ko nakomeza uwo mujyo bizamuteza imbere.

Mu isoko haba hagiye harimo amoko agiye atandukanye y'imyaka, aho iyo ushaka yose uyihasanga, haba harimo ibigori, ibishyimbo, amasaka, amashaza, soya ndetse n'ibindi.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, ririho akamenyetso kerekana ko aha hantu ari ku Bigega. Icyo cyapa gikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho yicaye iwe mu rugo muri saro, akaba ari kugenda apfundika ibigori, bigaragara ko ari umusaruro yasaruye, none akaba ari kugenda abipfundika.

Mu isoko harimo ibitoki byinshi bigiye bitandukanye ndetse harimo n'abantu baje kubicuruza n'abaje kubigura. Igihe ubikeneye wanyarukira hano ukabona icyo wifuza ku giciro gito nk'icy'umunecye

Abantu benshi cyane batandukanye bari mu murima w'igishanga, aho bamwe bari guhinga umuceri, abandi na bo bakaba bari gusarura umuceri, ndetse abandi bakaba bawikoreye.

Ubuhunikiro burimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibigori aho abahinzi basarurira ibigori bakaza kubibika kugira ngo bibe bitekanye kandi bimeze neza bifite isuku.

Amahundo menshi y'ibigori agiye atandukanye asutse ahantu hamwe, ruguru hari imifuka igiye itandukanye irimo impungure zavuye kuri ayo mahundo, bari kutwereka umusaruro ugiye utandukanye uva ku buhinzi bw'ibigori.

Icyumba cya stock kirimo imifuka igiye itandukanye myinshi iri mu mabara y'imyeru ndetse n'umuhondo, umu hakaba harimo umusaruro ukomoka ku bihingwa aho bagenda bayipanga bakageza hejuru ku mabati.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu isoko ry'ibitoki, aho bagiye guhaha ibitoki kugira ngo barebe ko babona icyo kurya, hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore, aho bari kugenda bapima ibiro kugira ngo babone uko bahaha ntawe uhenze undi.

Ni muri sitoke mu nzu aho harimo udufuka tw'umuceri tugiye dutandukanye ndetse n'akawunga. Utu dufuka tukaba dukomoka ku musaruro w'ibihingwa bihingwa mu Rwanda.

Abagabo bari mu murima uhinzemo ibirayi bakaba bafite amapombo, aho bari kugenda bapomba kugira ngo ibirayi byabo babirinde indwara zigiye zitandukanye zishobora kubyangiriza.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni kimwe mu bintu bihora bikorwa buri gihe kuko biba bigoye kuba wajya ku isoko ugasanga nta birayi bihari, urabihasanga utitaye ku gihe byahigiwe cyangwa byaziye ukabigura uko biri.

Mu gishanga ahazwi nko mu gishanga cya Gikonko, bakunda guhingamo umuceri maze bakayoherezamo amazi kugira ngo uwo muceri ubone intungamubiri zihagije uzere neza.

Abantu bagera muri batatu harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri. Bakaba bari ahantu hari icyumba gisutsemo inyanya nyinshi cyane, aho bari kugenda bazitoranya, bazishyira mu mufuka kugira ngo abe ari zo bagura.

Umusaruro w'umuceri wakusanyirijwe hamwe bawupanga kuri palete kugira ngo abantu bawukenera bajye basanga umeze neza utarangiritse kubera ubukonje bwo kuri sima.

Abantu bagera muri bane bahuriye hamwe ku murima bakaba bagiye gusarura inyanya none bafite intebo nyinshi zuzuye inyanya, bakaba bagiye kuzigemura ahantu mu mujyi kugira ngo babonemo amafaranga.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera ndetse n'ibiti bikunze kuba biri ahantu mu gisambu, ariko bikaba ari ingirakamaro cyane, kuko bikunze gutanga umwuka mwiza duhumeka ndetse n'umuyaga.

Ishyamba riteyemo amoko atandukanye y'ibiti cyane cyane ibiti birebire by'inganzamarumbo aho iyo bimaze gukura bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, bikaba byanabazwamo imbaho.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari ibiti biba ari birebire cyane binabyibushye byitwa inganzamarumbo, ibi ni ingirakamaro cyane kuko bizana uyu mwuka mwiza duhumeka ndetse bigakurura n'imvura.

Urubingo ruteye ahantu ku mukingo kandi uwo mukingo ukaba wubakishije amabuye ndetse na sima, uru rubingo rukaba ari ingenzi cyane kuko ruvanwamo ibyo kurya by'amatungo cyane cyane nk'inka.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho bimwe biba ari ibiti birebire ndetse n'ingemu, hakaba hari kandi n'intabire iteyemo ibisheke bikiri bitoya.

Mu rwego rwo kunoza ubuhinzi ndetse no guteza imbere umuhinzi, Leta yazanye amoko agiye atandukanye y'insina, aho hari insina zitwa fiya umuntu atera zikazana igitoki gifite ibiro byinshi, bityo wakigurisha ukabona umusaruro utubutse.

Mu mirima igiye itandukanye haba harimo amoko y'ibihingwa byinshi binyuranye abahinzi bahinga bikabagirira akamaro. Ni byiza rero kwitabira ubuhinzi igihe cyose ubona ubishoboye kandi ufite ubushobozi.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibimera cyane cyane ibizwi nk'ibiti. Ibiti rero ni ingirakamaro kuko bitanga uyu mwuka mwiza duhumeka, ndetse bigatanga umuyaga n'amahumbezi.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera bikunze guhingwa n'abahinzi, aho babihinga mu gisambu hanyuma byamara kwera bikazabagirira akamaro mu gihe kizaza, harimo no kubona amafaranga.

Hariho amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari ibiti bitari inturusi, bitari gereveriya, utapfa kumenya ubwoko bwabyo. Ibi biti rero birakura bikaba birebire cyane, akamaro kabyo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Hari amoko aba agiye atandukanye y'ibimera, cyane cyane ibimera bikunze kumerera ahantu mu cyaro mu masambu, iki ngiki rero cyitwa umukubayoka, kiba gifite amababi agiye atandukanye ndetse n'uruyange rusa umuhondo.

Ishyamba ririmo amoko menshi y'ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibyatewe ndetse n'ibiti bya cyimeza. Ibi biti ni ingirakamaro kuko bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Igiti kirekire cyitwa isipuri giteye ahantu mu busitani, iki giti ni ingirakamaro cyane kuko gikunda kuzana umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu baherereye hafi aho ngaho.

Ikimera kizwi nk'umugwegwe kikaba giteye ahantu mu gisambu, aho icyo kimera rero ari ingirakamaro cyane kuko bakibohamo imirunga yifashishwa mu kuzirika amatungo tuba tworoye.

Mu Rwanda bashyizeho gahunda yo kubungabunga ibidukikije, aho nta muntu n'umwe uba wemerewe gutema igiti atabiherewe uburenganzira. Biragaragara ko iki giti gitemye nyiracyo yamanje gusaba uburenganzira.

Ubuhinzi bw'urutoki buba bwiza iyo ubihinze byonyine ntugire indi myaka uvangamo, ukanabisasira, ndetse hagati y'umurima w'ibitoki n'undi murima hagasigaramo nka metero eshatu, nibwo bigenda neza.

Muri pipinyeri haba harimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye z'ibimera, aho haba hari ibyatsi baba barashakaje iyo pipinyeri ndetse bakanabisasira ibihoho hanyuma muri ibyo bihoho bagateramo ibiti byera imbuto nk'amacunga n'amaronji.

Ubuhinzi bw'avoka ni bumwe mu buhinzi bukomeje gutera imbere, kuko umuntu wahinze voka zibasha kumuha umusaruro akiteza imbere maze agakirigita ifaranga mu gihe gito cyane kandi kidatinze.

Hari amoko menshi y'ibimera, aho bakunda guhinga nk'ibyitwa urubingo rwakura rukavanwamo ibyo kurya by'amatungo cyane cyane nk'amatungo maremare nk'inka ndetse n'ihene.

Ishyamba ririmo amoko y'ibiti bigiye bitandukanye, aho harimo bine binini bibyibushye ndetse n'ibindi byinshi bikiri bitoya bitarakura, ariko byose bikaba bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ubuhinzi bw'iboberi n'ubworozi bw'amagweja bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho umuhinzi azana umurima bakamuterera iboberi, yamara gukura bakamuzanira amagweja akazajya ayagaburira iyo boberi.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti ndetse n'ibimera, hakaba hari icyapa ku muhanda gisa umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara mu rurimi rw'Iyongereza.

Ahantu mu gisambu harimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho uramutse ushatse igihingwa runaka waza ukakibona bikoroheye, harimo kandi n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho hari ibiti bimwe na bimwe by'inganzamarumbo bitanga umuyaga mwiza ndetse n'amahumbezi, si ibyo gusa kuko ibyo biti bishobora gutunganywamo imbaho.

Bimwe mu bihingwa bigiye bitandukanye, aho ibi bihingwa biba bivura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda, hari kandi n'amateke yifashishwa mu guteka indyo yuzuye.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti. Ibi tubona rero byitwa "Amasipuri". Ni ingirakamaro cyane kuko iyo bimaze gukura bibazwamo imbaho ndetse bigatanga n'umuyaga n'amahumbezi ku bahegereye aho biri.

Mu ishyamba haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho haba harimo ibiti bibyibushye kandi birebire ndetse n'ibindi bikiri bitoya, ibi bikaba ari ingirakamaro byose kuko bizana umuyaga n'amahumbezi.

Ni mu murima w'ibigori, aho hateyemo ibigori byinshi bigiye bitandukanye ndetse bikaba byeze biri hafi kuma. Amababi barayakokoye bayamaraho, bigaragara ko biteguye guhingamo ibindi bihingwa.

Hari bimwe mu bihingwa umuntu aba atapfa kumenya ubwoko bwabyo, by'umwihariko nk'umwana uturutse mu duce tutari utw'icyaro, ashobora kuhagera ntabashe kumenya ubwoko bw'icyo gihingwa nk'uko mukibona iki ngiki ni icy'amayobera.

Mu ishyamba haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, harimo n'ibiti biba ari bigufi n'ibindi birebire bitanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye, bikaba byanakurura imvura iyi tubona.

Umurima uteyemo inyanya, ku ruhande hakaba hari ibyatsi byumye bifashisha bari kuzisasira kugira ngo zitazakwicwa n'izuba kandi zikomeze gufata intungamubiri zo mu butaka ndetse n'ifumbire.

Ibase irimo ishashi. Iyo shashi na yo ikaba irimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, hakaba hari umugore uri kuzicuruza iruhande rwaho, hari akabase karimo ibinyomoro na byo bari kugurisha.

Ni mu isoko, ahaba hari amoko menshi agiye atandukanye y'imboga. Izi tubona rero ziganje ni izizwi nk'intoryi. Izi rero ni ingirakamaro cyane kuko zikunze kwifashishwa ku ifunguro rya buri munsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, buteyemo indabyo zo mu mabara agiye atandukanye. Aha rero akaba ari mu kigo cy'ishuri kizwi cyane kandi gikomeye.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera ndetse n'ibiti byera imbuto ziribwa. Ibi biti rero ni ingirakamaro cyane kuko bivamo ibyo kurya bidutunga maze na ba nyirabyo bakabona amafaranga.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nziza cyane ndetse ruguru hakaba hari inyubako itagaragara neza igice cyo hejuru ariko yubakishije amatafari ahiye, ikingishije inzugi z'ibyuma.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugira akarima k'igikoni kuri buri rugo, aho iyo ugateyemo imboga za dodo bigufasha kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'igwingira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ahantu mu gisambu, aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'umusore umwe, bakaba bari mu murima w'ibinyomoro, bakaba bari kugenda babihinga kugira ngo nibyera bizabahe umusaruro.

Dodo ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane, kuko umuntu wazihinze, zimugirira akamaro akabona amafaranga. Ni byiza cyane rwose guhinga dodo kuko bituma umuntu abona amafaranga menshi cyane maze akiteza imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho izo nyubako zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo zigiye zitandukanye ndetse kandi hakaba hari na rigore inyuramo amazi.

Imbuto zigiye zitandukanye ziri ahantu mu isoko ndetse hakaba harimo n'imboga zizwi nka dodo aho ziri kugurishwa. Uramutse uzikeneye wanyarukira mu isoko bakakwihera rwose ni karibu.

Guhinga ibinyomoro ni ingirakamaro cyane, kuko ubuhinzi bw'imbuto bugezweho muri iki gihe. Iyo wahinze imbuto iyo zeze uragurisha maze ukavanamo inyungu ifatika ugakirigita inote.

Dodo ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane, kuko umuntu wazihinze zimuha umusaruro. Uyu murima rero uteyemo dodo, ndetse n'intoryi. Izi rero ni ingirakamaro cyane, kuko iyo umuntu azihinze zikera, abona umusaruro.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, hariho zimwe ziba zifite amababi ameze nk'ay'insina, ku buryo uramutse uzibonye utazizi wazitiranya n'insina cyangwa se bikakuyobera.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'intoryi ariko izizwi cyane ni izikunze guhingwa ahantu mu cyaro ariko zikera intoryi nyinshi ndetse zigatanga umusaruro uhagije.

Umukobwa w'inzobe, wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse akaba afite n'imisatsi ya menshi, akaba ari guhanura voka mu giti, azifata mu ntoki. Bigaragara ko agiye kuzitara, hanyuma akazazirya.

Umurima uteyemo ubwoko bw'indabyo zigiye zitandukanye, izi ndabyo rero zikaba ari nziza cyane, kuko zimwe zikunze kuvamo n'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ubuhinzi bwa dodo bukomeje gutera imbere kuko abantu benshi basigaye baritabiriye kuzihinga rero iyo wazihinze, zitanga umusaruro ufatika by'umwihariko nk'amafaranga, ni byiza cyane kuba wazihinga.

Hari amoko agiye atandukanye y'amatunda. Hari amatunda azwi nka makuja ndetse n'amatunda y'ibikoni. Aya rero ni amatunda y'ibikoni, aho aba arimo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto. Izi mbuto rero ziba zaje kugurishwa. Turabona ko harimo ibinyomoro, amatunda, amapera ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Umurima uhinzemo karoti ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Hakurya hari undi murima uhinzemo ibigori. Hari kugaragara kandi, agasozi gateyeho ibiti birebire cyane.

Mu isoko haba harimo amoko agi atandukanye y'imbuto ku buryo urubuto rwose wajya gushaka urubona kandi ukarubonera ku gihe. Aha rero hari amoko menshi y'imbuto ku buryo izo washaka zose wazibona.

Ubuhinzi bw'ibihaza ndetse na kayote bukomeje gutera imbere cyane, kuko iyo wabihinze bigufasha kurwanya inzara, kuko izi mbuto cyangwa se izi mboga zivamo ingereko.

Mu mirima igiye itandukanye by'umwihariko ahantu mu gishanga, hakunze guhingwa karoti. Karoti rero, ni ingirakamaro cyane kuko zifashishwa mu mafunguro agiye atandukanye nk'imboga.

Ni mu isoko ahacururizwa imboga n'imbuto nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo amabase arimo imbuto z'amoko yose, harimo imiteja, ndetse n'intoryi na karoti.

Akarima k'igikoni ni imwe muri gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo abaturage bazabashe kwiteza imbere, uyu mukecuru rero akaba ari kureba akarima ke k'igikoni areba uko imboga ze zimeze.

Igipangu cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba cyegereye ubusitani bwiza cyane burimo indabyo nziza ndetse ku ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Umurima uhinzemo amashu menshi cyane ndetse ayo mashu akaba asasiye, aho aya mashu akiri mato atari yera, abahinzi b'amashu bakunze kubona inyungu nyinshi iyo yabahiriye akabasha kwera.

Isambu iteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, harimo ibitunguru, intoryi ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko bikaba bitarafata neza kuko ubutaka buracyagaragara.

Ibihingwa bizwi ku izina rya puwavuro, bikaba birambitse ahantu ku gitenge, ibi bihingwa rero ni zimwe mu mboga abantu bahinga z'ingirakamaro cyane kuko iyo wazihinze zikugirira umumaro cyane maze ugakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ingenzi cyane, kuko iyo umuntu abihinze bimuteza imbere cyane iyo byeze, kuko ikiro kimwe cy'ibinyomoro kigura amafaranga agera mu bihumbi bibiri.

Imboga zizwi nk'intoryi ni ingirakamaro cyane kuko Mujyi zikunze kwifashishwa cyane mu ifunguro rya buri munsi, kuko igihe cyose uzikeneye ubasha kuzibona kandi kuri make.

Ubuhinzi bwa karoti ni bumwe mu buhinzi bumaze gutezwa imbere cyane kuko abantu bahinga mu gishanga basigaye bazihinga hanyuma zakwera bakazigemura mu turere tw'umujyi kugira ngo barebe ko babonamo amafaranga.

Ni mu gasoko ka nimugoroba aho hatanditsemo amoko y'imboga agiye atandukanye, ku buryo amafaranga yose waba ufite wabona imboga, harimo intoryi, karoti, dodo, ibitunguru, inyanya n'ibindi.

Ibase irimo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, aho harimo ibitunguru ndetse na dodo biri kugurishwa mu isoko. Iyi base, iri mu mabara y'ubururu.

Mu isoko hacururizwamo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga. Hano rero hari imifukatanditseho imboga z'amoko atandukanye. Harimo inyanya, karoti ndetse n'intoryi.

Amoko agiye atandukanye y'imboga zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane izizwi nka karoti, zikaba zikunda kuboneka ahantu mu mujyi, aho baba bazihinze bakazigemura.

Ni mu isoko ricuruza imbuto zigiye zitandukanye, aho zose ziba zirimo ku buryo icyo washaka wakibona, harimo: wotameloni, amatunda, ibinyomoro, imineke ndetse n'umunzani wo ku bipima.

Imiteja ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane kuko umuntu wahinze imiteja iyo ayisaruye ayijyana ku isoko bakayigura, hanyuma bakamuha amafaranga yamufasha gukemura utubazo runaka.

Umugore uhagaze yambaye ibitenge, akaba afite agatanda imbere ye kariho imboga nyinshi zigiye zitandukanye, akaba ari kuzicuruza, harimo inyanya ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, nk'ibitunguru.

Ibase y'umutuku irimo ibihingwa bizwi nka tangawize ndetse n'umufuka, iyi base rero bashyizemo izi tangawize bazivanye muri uyu mufuka, ubwo umuhinzi yari amaze kuzisarura.

Umurima munini uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye hakaba kandi harimo n'igiti cy'ipapayi aho kitari cyavamo imiteja myinshi. Ipapayi rero ni ingenzi kuko iyo umuntu ayiriye agira ubuzima bwiza.

Mu isoko ahari amoko menshi y'ibihingwa by'imbuto biba byaje kugurishwa bikaba bitandiritse ku dutanda, aho harimo karoti, pavuro, shevuro, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto wagura, hanyuma wazirya ukagira ubuzima bwiza. Haba harimo ibinyomoro, amatunda, imyembe ndetse n'izindi.

Ubuhinzi bw'intoryi ni bwiza cyane ariko umuntu wazihinze aba agomba kumenya igihe zerera akajya kuzisarura hakiri kare zitaratukura, kuko iyo zamaze gutukura ziba zatangiye gusaza bityo abakiriya ntibazikunde.

Mu isoko ahacururizwa imbuto n'imboga bigiye bitandukanye, haba harimo amoko menshi y'imboga aho dusangamo ibitunguru ku buryo iyo ubikeneye uza ukabigura ku mafaranga make bakagupimira ku biro.

Umugabo uri mu murima akaba ari kuhira inyanya ze akoresheje umupira w'ubururu, iruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru ari kureba uko abigenza.

Umurima w'ibigori uteyemo ibigori byinshi ariko byenda kuma, haruguru yabyo hari udutiyo cyangwa se uduhombo twabugenewe, dutwara amazi tugenda tuyatera ibyo bigori kugira ngo bituma.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba ahagaze mu murima we yahinzemo imboga. Afite umupira uri mu ibara ry'ubururu, aho uri gusohora amazi, akaba ari kugenda avomerera ibihingwa bye.

Umugabo wambaye isarubeti akaba ari mu murima we w'imboga aho ari kugenda azuhira, hirya ye hari undi muntu wambaye akambaro k'umweru hejuru, akaba ari kugenda apompa hanyuma amazi akabona kuza.

Indobo yabugenewe mu kuhira imyaka, aho iba iriho amahombo abiri atwara amazi mu nce zigiye zitandukanye. Hakurya y'iyi ndobo hakaba hahinze urusenda bigaragara ko nyiri izo ndobo yaje kuhira urusenda.

Abantu bagera muri batatu b'igitsina gore, aho bahinze inyanya, none bakaba bari kugenda bazivomera, bakoresheje ibikoresho byabugenewe biri mu mabara y'umuhondo.

Umugabo uri kugenda mu murima we w'umuceri ahetse ibombo, aho ari kugenda awutera umuti kugira ngo yice udukoko twinshi dutandukanye, tuba twagiye dufata ku muceri we. Ni byiza cyane gutera umuceri umuti.

Abantu bagiye batandukanye, bahuriye ku mugezi, aho baje gushaka amazi, higanjemo abana bakiri bato ndetse n'umubyeyi wabo. Hirya y'umugezi, hateye umurima w'ibigori byiza cyane kandi bishishe.

Umurima ukiri mushyashya uteyemo imyumbati, haruguru hari umusitari ariko uteyeho urubingo ndetse nta byatsi birimo, hirya hari kandi umugezi urimo amazi.

Ni igisambu kinini cyane kandi kigari, aho kirimo amoko agiye atandukanye y'ibimera. Ibi bimera rero, bikaba ari ibyatsi bya pasiparumu ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye. Aha rero, bakaba bakunda no kuharagira amatungo.

Igishanga gihinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ariko ibyiganza cyane ni umuceri, umuceri ni kimwe mu bihingwa bikunda kwera ahantu mu gishanga, umuntu wabihinze bimuha umusaruro ufatika n'ubwo biba byamuvunnye.

Mu murima ahantu mu gishanga, harahinze, harimo n'amazi menshi cyane. Aha ngaha rero ni ahakunzwe guhingwa igihingwa cy'umuceri. Ahantu mu gishanga haba hari amazi menshi.

Ahantu mu bishanga, hakunze kuba hateyemo umuceri. Umuceri ni kimwe mu bihingwa bikunda kwera ahantu hari amazi menshi cyane, cyane cyane nko mu bishanga bigiye bitandukanye.

Ahantu heza cyane hari amoko y'ibiti agiye atandukanye, ibi biti rero ni byiza cyane kuko bikurura iyi mvura ndetse bikazana umuyaga n'amahumbezi, hari n'ahandi hari intabire itari yaterwa.

Mu gishanga aho bahinga umuceri, harimo amoko menshi agiye atandukanye y'umuceri, aho agaragara neza ari umuceri ugiye kuma, hakurya hakaba hari agasozi karekare cyane.

Mu gishanga ni ahantu hakunze guhingwa ibihingwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ahantu hari amazi, hakunze guhingwa ibihingwa bizwi nk'umuceri, aho umuntu agenda akawutera, hanyuma akazajya awuvomera maze ukamererwa neza.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane, bigaragara ko ari mu cyanya cyahariwe kororerwamo amatungo ndetse hakurya hari ikindi cyanya cyahariwe guhingwamo imbuto zigiye zitandukanye.

Igishanga giteyemo umuceri ukiri mutoya ariko utari wera kikaba ari igishanga giherereye mu Karere ka Huye, haruguru yacyo hari ishyamba ryiza cyane riteyemo amoko y'ibiti agiye atandukanye.

Ahantu hakonja by'umwihariko nko mu turere twa Nyaruguru ndetse na za Ngororero, hakunze kuba hari ibihingwa bizwi nk'icyayi, aho umuntu abihinga akazajya agenda abisarura buhoro buhoro yitonze.

Aha ni mu Karere ka Huye impande y'ikibuga cy'umupira Mpuzamahanga cya Huye ahari ikibuga cy'indege, hari icyanya cyiza gifite ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho.

Ubutaka bwiza cyane kandi bugari, buhinze ku muronko, aho harimo ububereye aho ndetse n'ubuhinzi buteyemo ibihingwa, hakurya hari agasozi gaciyeho amaterasi kariho n'ishyamba mu mpinga.

Ingurube ni inyamaswa nziza cyane abahanga mu kuyorora bavuga ko ari ryo tungo ryungura kuko umuntu uryoroye rimuha umusaruro mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bw'ifumbire.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa zikunda kororwa ahantu mu mujyi, igihe cyose ukeneye inyamaswa yo korora wakwifashisha aka kanyamaswa karinda urugo kuko gafite ubuhanga buhambaye mu kurinda urugo.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse impande y'igisima ariho ahantu mu gisambu. Izo hene zikaba ziri mu mabara imwe ni umukara indi ni ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umugore ahagararanye n'umwana we, imbere yabo hari ihene zigera muri eshatu, imwe nini ndetse n'utwana twayo tubiri, hirya yabo ku nguni y'inzu hahagaze umwana wambaye agakanzu kadoze mu gitenge.

Ikiraro cy'inka kirimo inka ikiri ntoya ariko ya kizungu iri mu ibara ry'umukara. Iri kugenda irya ibishogoshogo bayihaye hasi kuko ntabwo bari bayubakira agatanda kagezweho ko izajya iriraho.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane, aho kuri ubu ngubu umuntu woroye ingurube, asigaye abona amafaranga mu buryo bumworoheye, maze agatera imbere, agakirigita ifaranga, nk'abandi bakungu bose bari mu Rwanda.

Ihene zigera muri ebyiri harimo imwe nini ndetse n'umwana wayo, zikaba zigiritse ahantu aho akana bigaragara ko gafite imbeho, zombi ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Ahantu hanitse ibishyimbo mu mbuga ndetse hakaba hari kugendamo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye za kijyambere zo mu bwoko bwa saso. Hari kandi n'ikigega cy'umukara kibika amazi.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere cyane, aho abantu basigaye bayita misaya myiza, kirigita ifaranga, kubera ko umuntu uyoroye imuha amafaranga byihuse agasezera ku bukene.

Ubworozi bw'inka za kijyambere ni bwiza cyane kuko buteza imbere nyirazo, iyo wayoroye ukayitaho ukayiha ubwatsi mu gihe kitari gitoya iba imaze kuguha umusaruro ufatika.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse mu busitani, ziri mu mabara y'umweru, harimo inini ndetse n'akana kayo, inini muri zo iri kugaragara igice cy'umutwe gusa, naho akana karagaragara kose.

Ihene zigera muri ebyiri, ziri ahantu mu kiraro, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Imwe irahagaze naho indi yazamuye amaguru, iyashyira ku rubariro rw'urugo, bigaragara ko hari ikintu ishaka kurya kiri hejuru.

Ihene zigera muri ebyiri ziryamye ahantu hamwe kandi ziziritse, zikaba zisa umweru n'umukara, izi rero ni ihene zitangwa n'ubudehe mu rwego rwo guteza imbere abaturage b'u Rwanda.

Umukobwa ukenyeye igitenge ariko ukiri muto, akaba ari kuzirika ihene mu busitani imbere y'inzu yabo, hirya mu rugo hari abana bagera muri babiri. umwe aricaye na ho undi ari kugenda amusatira.

Ingurube nini cyane aho iri konsa ibyana byayo bigera mu munani, ni ingurube ya kijyambere aho ifite ibyana byiza cyane biri mu mabara y'umweru. Iyo woroye ingurube nk'izi ngizi zibasha kuguteza imbere.

Ni byiza cyane kororera amatungo mu kiraro, kuko iyo uramutse wororeye itungo mu kiraro, ukakizitira neza ku buryo ritasohoka, ribasha gukusanya ifumbire ryose, hanyuma waritindura ukaba warifumbiza ukiteza imbere.

Inka iziritse ahantu munsi y'igiti ikaba imeze neza cyane kubera ko nta zuba iri kuyigeraho, iki giti kiyikingira imvura n'izuba ikaba imerewe neza cyane nta kibazo na kimwe ifite.

Inka za kijyambere zifite amabara agiye atandukanye byiganjemo umweru n'umukara zikaba ziri ahantu mu kiraro. Iruhande rwazo harikugaragara urukweto ndetse n'ukuguru k'umuntu bigaragara ko ari umushumba wazo.

Ubworozi bw'inka by'umwihariko ubwororera mu rugo, ni ingirakamaro cyane kuko iyo woroye inka y'inzungu ukayororera iwawe mu rugo, ukazajya uyiha ubwatsi uko bikwiye nayo iguha umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere, aho hari uburyo bushya bwaje bwo kuzorora ndetse no kuzigaburira, aho haba hari ibikoresho byabugenewe usukamo ibyo kurya zikagenda zibirira aho ngaho, zitabisesaguye cyangwa ngo zibimene.

Ubworozi bwa kizungu bw'ingurube zigezweho bumaze gutera imbere, aho ingurube isigaye ibyara ibyana binini cyane ku buryo umworozi uzoroye, abasha kwiteza imbere byihuse, agasezera ku ubukene.

Abantu bicaye mu rugo bakaba barekuye inka ikaba yaje iri kwikinangura mu mbuga, hari umugabo ufite inkoni wambaye imyambaro y'umutuku ushaka kuyitangatanga ngo ayisubize mu kiraro cyayo.

Ihene ebyiri ziziritse ku kiraro harimo imwe isa umukara n'umweru ndetse n'indi isa umutamu, hirya yayo hahagaze umwana wambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, akaba ari kuzigaburira.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba afashe ubwatsi aho ari kugenda agaburira inka ye iri mu kiraro. Iruhande rwe hari udukoko tubiri ndetse hari n'ingurube ya kizungu iri kugenda imusatira.

Ubuhinzi bw'amatunda bumaze gutera imbere, aho Leta y'u Rwanda isigaye idushishikariza gutera amatunda, kuko na yo yagufasha kwikura mu bukene maze ugakirigita ifaranga.

Hari amoko agiye atandukanye y'imboga. Izi mboga rero, zikunda guhingwa ahantu mu gishanga, maze zamara gukura, bakazigemurira abacuruzi, hanyuma abantu bagiye batuye mu mijyi igiye itandukanye bakazigura bakazirya.

Ubuhinzi bw'urusenda ni ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane kuko iyo umuhinzi ahinze urusenda akarwitaho, bituma abasha kubona umusaruro ufatika maze yagera ku isoko bakamuha amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'imyumbati, bukomeje gutezwa imbere, aho hari abantu batangiye kuyihinga mu buryo bwa kijyambere, aho buri mwumbati bawacukurira umwobo wawo, hanyuma wazajya kwera, umwe ukera ibiro mirongo inani.

Umurima uteyemo imbuto z'amoko agiye atandukanye ndetse n'imboga ariko imboga ziganje cyane ni imboga z'amashu, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane kuko iyo umuntu aziriye agira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane bigaragara ko ari ubusitani bwinajijwemo imbuto z'avoka. Izi rero, bagenda bazigurisha aho umuntu uziguze azitera mu gihe cy'amezi atandatu, zigatangira gutanga umusaruro.

Umugabo w'inzobe akaba asutamye mu busitani bwe, aho yagiye gusura pipenyeri ngo arebe niba imbuto ze yinaje zarafashe ngo ajye kuzitera, ubu ni uburyo bwiza bwo kwinaza imbuto ukazazitera nyuma.

Abantu bagera muri batatu, babiri muri bo baryamishije inka hasi, bayifashe, undi umwe afite icyuma cyabugenewe, ari kugenda ashiriza amenyo kugira ngo iyi nka izabashe kumererwa neza nikura.

Uko iterambere rigenda rirushaho kuza, ubu mu Rwanda abantu basigaye babaga amatungo, igihe yagize ikibazo bakareba ikibazo yaba afite, basanga hari ikibazo afite bakaba bayahamba, basanga nta kibazo bakayarya.

Muri gahunda yo guteza imbere ubworozi leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kororera amatungo mu rugo kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse babashe no kubungabunga ibidukikije.

Abantu benshi batandukanye bambaye impuzankano z'amataburiya y'umweru, bakaba bashyize intama ku meza yapfuye, bigaragara ko bagiye kuyibaga ubundi bakayirya.

Abantu bagera muri batatu bafashe inka, harimo umwe wambaye impuzankano z'abaveterineri, bigaragara ko agiye kuyikura amahembe kugira ngo izagire umutwe mwiza ubyibushye imere neza.

Umugabo uragiye inka nyinshi za kizungu, akaba aziragiye mu murima ahabugenewe mu cyanya cyahariwe kororerwamo amatungo maremare ndetse n'amagufi, ari kugenda azikumira kugira ngo arebe ko zitamucika.

Umugabo uragiye inka nyinshi, bigaragara ko ari umushumba cyangwa umutahira wazo, iruhande rwe hahagaze abana batatu ndetse n'undi mugabo uri hirya ye ufite umwana iruhande rwe.

Inka nyinshi cyane za kijyambere zingana ishyo, aho ziragiwe n'umuntu ari kuvuga ngo: "Rukutagwabizi iminega inkuba zesa mu bihogo rwa mugabo nyirigira, imbizi isanganizwa ingoma n'umugabe w'Iruyumba."

Umugabo uri gukama inka yayiziritse amaguru y'inyuma, akaba ari kuvuruganya, ubu ni uburyo bwiza bwo gukama aho ukama inka vuba vuba maze ukavanamo umusaruro w'amata.

Umugabo uragiye inka akaba ari umushumba aho agenda azihamagara mu mazina yazo, agira ati "mbe rutimirwa zihotoye ingoga rwanyamwigema ya rugamba inkurirakuramuza zima ingoma yakebye imanzi mu rwambariro."

Abantu bagera muri batanu bateraniye hamwe, aho hari inka baryamishije hasi, bakaba bari kuyisuzuma ngo barebe ikibazo ifite, nibasanga ari icy'amahembe bahite baza kuyakura.

Abantu bagera muri bane, bakaba bari kumwe n'inka yo mu bwoko bwa kijyambere, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Muri aba bantu harimo babiri bambaye impuzankano z'ubururu, bigaragara ko ari abaveterineri.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba ari kuzirika ihene ari kumwe n'undi mwana, ari kugira ngo ayizirike, namara kuyizirika ayitere urushinge kugira ngo ayikingire indwara runaka yatangiye kuba icyorezo.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'agapira k'amaboko, akaba yicaye mu gatanda inka ziriramo, bigaragara ko agiye kugasana, kuko afite n'akanyundo mu ntoki ze.

Umugabo uragiye inka akaba yambaye isarubeti, izo nka rero zikaba ziri ahantu mu cyanya cyahariwe ubworozi ndetse akaba yambaye na bote, ari kugenda azitaho kugira ngo zitaza kona.

Muri parike y'igihugu y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, cyane cyane izizwi nk'inkende, ingagi, inguge kandi ziba zitwara nk'abantu, zikaba zizwiho gukunda kurira ibiti cyane.

Akanyoni gahagaze ku giti cy'umubirizi, kakaba ari akanyoni kari mu bwoko bw'igishwi, izi nyoni rero dukunze kuzisanga nyirizina nko muri Parike y'Igihugu y'Akagera ndetse no mu yandi mashyamba manini cyane.

Muri parike nkuru y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye zijya kumera nk'abantu, iyi ngiyi tubona yitwa igitera, ikaba ijya kumera nk'ingagi ikaba kandi izi kwifotoza cyane neza nk'umuntu.

Inyamaswa z'udusumbashyamba, ni zimwe mu nyamaswa zikunda kuboneka muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, aho ziba ari ndende cyane ku buryo zibasha kurisha amababi y'ibiti zibereye hasi.

Urugi rwubakishije ibyuma bisa umukara, hakaba hahagazeho akanyamaswa kitwa inkende, aho kashinze amaguru abiri n'umurizo, kazamura amaboko, kari kwitegereza imbere kameze nk'akari kurunguruka.

Inyamaswa zitwa inkende, ni zimwe mu nyamaswa dukunda gusanga mu mashyamba manini, by'umwihariko nka Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, parike ya Nyungwe ndetse n'ishyamba rya Cyamudongo.

Muri Parike y'Igihugu y'Akagera haba hagiye harimo inyamaswa z'amoko agiye atandukanye ariko iziganza cyane n'inyamaswa zitwa ishya, izi nyamaswa ziba zimeze nk'ihene zizwiho kwiruka cyane ku buryo nta muntu wapfa kuzifata.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibisiga ariko hari kimwe kiba gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, kizwi nk'ikiyoni. Kikaba kizwiho kuramba, kikamara imyaka myinshi cyane.

Inyamaswa yitwa isha ikunda kuba izi kwiruka cyane, aho iyo umuntu ayendereje yiruka cyane ikamusiga akaba atayifata. Abanyarwanda baciyeho n'umugani ngo ubona isha itamba ugata n'urwo wari wambaye.

Hariho imbeba z'amoko menshi ariko hariho zimwe zayoberanye ziba zifite imirizo miremire zimanika zigashyira mu mugongo ifite n'insezi, izi mbeba ni mbi cyane kuko iyo zigeze mu myenda yawe ziyihindura ubudeyi.

Mu mashyamba agiye atandukanye, haba harimo amoko y'inyoni menshi agiye atandukanye. Iyi nyoni izwi ku izina rya rushorera, ikunda kujya ahantu hari ibiti, igahora ibidondanga, ikubitaho uyu munwa wayo.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zikunda imineke cyane, zizwiho kugira ishusho nk'iy'abantu ndetse n'ubwenge bwenda kwegera ubw'abantu, iyo zibonye ufite umuneke zikwirukaho zishaka kuwugusaba, wazigirira impuhwe ukawuziha.

Iyo ahantu hateye indabyo iyo zimaze kuyanga zirahumura cyane, ku buryo bimwe mu biguruka bikunda kuza bikazihagararaho kugira ngo byiyumvire iyi mpumuro. Nk'iki ngiki tubona cyitwa igikona kiri mu mabara y'umukara n'umweru.

Muri Parike y'Igihugu ya Nyungwe ndetse na Gishwati, Mukura n'Akagera haba harimo inyamaswa nyinshi zikunda kurira ibiti. Zizwi nk'ibitera, inkende, ingagi ndetse n'inguge.

Mu mashyamba menshi agiye atandukanye yo mu Rwanda ndetse no muri Parike y'Igihugu y'Akagera, haba harimo inyamaswa zijya kwitwara nk'umuntu, zizwi nk'inguge, inkende, ibitera ndetse n'ingagi.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa zigira amahane zizi kwiruka, ariko zikamenya n'ubwenge cyane hafi y'abantu. Zikunze kubana n'abantu ndetse mu mujyi nta hantu wasanga zitari.

Hari amoko agiye atandukanye y'inyamaswa zijya kumera nk'abantu, inyamaswa zitwa ibitera, inguge, inkende, ingagi ndetse n'inkima, izi ni inyamaswa zose zijya kumera nk'abantu kandi zikunze kwibera mu biti.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi y'inyamaswa zijya kumera nk'abantu. Hari izizwi nk'ibitera zikunda kurira ibiti cyane ndetse n'izindi zitwa ingagi.

Inyamaswa zijya kumera nk'abantu zizwi nk'inguge, zikunda kuba ahantu mu biti. Ziba ziri muri parike zigiye zitandukanye by'umwihariko nko muri pariki y'igihugu y'akagera iherereye mu burasirazuba.

Umusore wambaye agapantaro k'umukara k'agakoboyi ndetse n'agakweto kazamuye, akaba yashinze ukuguru, iruhande rwe hari inkende, iri kugenda imuzamukaho, bigaragara ko hari ikintu iri kumusaba afite mu ntoki.

Parike y'Igihugu ya Nyungwe, ifite ikiraro mu kirere, ku buryo abakerarugendo baje kuyisura, babasha kugendera muri icyo kiraro cyo mu kirere, hanyuma bakagenda bayireba yose, bibereye hejuru mu kirere.

Muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, izi tubona rero zitwa inkende. Ni inyamaswa ziba zimeze nk'abantu kuko zigira imico ndetse no mu maso nk'iby'abantu.

Mu mashyamba menshi agiye atandukanye yo mu Rwanda, cyane cyane muri parike y'Akagera haba harimo amoko menshi y'inyoni ku buryo utapfa kuzimenya, iyi ngiyi rero yitwa inyamanza ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Muri parike y'Akagera y'u Rwanda, iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, haba harimo amoko y'inyamaswa zigiye zitandukanye, nk'izi ngizi zitwa imparage. Zikaba ari inyamaswa zikunda kwirishiriza ubwatsi.

Muri Parike ya Nyungwe hariho ikiraro kinyura mu kirere aho abakerarugendo baje kuyisura bagendera hejuru bari kugenda birebera ibyiza biyitatse biri munsi nk'inyamaswa ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye birimo.

Muri parike y'Igihugu y'Akagera ndetse na Nyungwe, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, zijya kumera nk'abantu arizo: inkobe ndetse n'izindi zitandukanye nk'inkende, ingagi, ibitera ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa dukunda gusanga muri parike yo mu majyaruguru y'ibirunga, izi ngagi rero ni inyamaswa zifite ubwenge nk'ubw'abantu zikaba zizi kwifotoza ndetse no kurira ibiti.

Parike y'Igihugu y'Akagera aho irimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, aho harimo impara ndetse n'imparage, zikaba ziri mu mukenke zihagaze, zituje kandi zinezerewe.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa ziba zizi ubwenge hafi y'umuntu, kuko usanga ari zo nyamaswa ziba mu rugo, mu kindi kinyarwanda bazita akanyamaswa karinda urugo.

Mu mashyamba agiye atandukanye nko muri parike ndetse n'ishyamba rya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, haba harimo utunyamaswa twinshi tugiye dutandukanye tujya kwitwara nk'abantu, ari two tuzwi nk'inkende ndetse n'ibitera.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa zijya kumera nk'abantu kandi zikaba zigiye zitandukanye ku mabara ndetse no ku mazina, hari izitwa inkende, izitwa ibitera, izitwa ingagi ndetse n'izitwa inguge.

Ishyamba rya Nyungwe ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho harimo ikiraro cyubatse mu kirere ku buryo umuntu ugiye gutembereramo, agendera muri icyo kiraro ari kugenda akurikirana ibibera hasi byose yibereye hejuru.

Ubuhinzi bw'indabyo ni bwiza cyane, iyo zimaze kuzana uruyange, hakunda kuzaho utunyoni twiza cyane tw'amabara meza, tuba turi mu mabara y'umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi.

Indabyo iyo zeze neza zikarabya mu mabara y'umuhondo, hakunda kuzaho utunyoni ku ndabo, tuje guhova, nkaka konyoni kari mu mabara meza cyane, biragaragara ko ari nk'inyamanza cyangwa se akaba ari inyombya.